Umuco ni mwiza cane kuko turacundaga amata tukayanywaga avamwo amavuca twifashisha mu buzima turayatekaga tukayaryaga.

Inka ziri kuja ubwatsi aho umusumba yazihaye kugira ngo zibeho neza.

Turagendaga tugatega ibishi zikatujana, iyo dukeneye guca kandi vuba. Ba nyir'ibishi bakabona amafaranga abafasha mu buzima bwa buri munsi.

Abaturage batwaraga amagare bakaba bashobora kwiteza imbere, baragurishaga bakabonamo amafaranga yo kwifashisha mu buzima busanzwe.

Umuturage arategaga atangaga amafaranga y'urugendo kugira ngo bamugeze aho asaka kujya, aha umumotari nawe akuramo amafaranga yifasisa mu buzima bwo gutwara ibinyabiziga.

Dukina imikino myiza kugira ngo tugire ubuzima, tugabanya ibiro, twirinda indwara zitandukanye. Buri wese agomba gukina umukino ashoboye.

Abaturage baridagaduraga, mu makinamico barasetsaga kugira ngo umubiri wishime bagubwe neza cane cane.